Ni umusore wambaye umupira wa kaki ndetse n'ipantaro y'umukara, uhagaze ku kazu gatanga serivisi za Airtel, akaba yerekeza mu muryango w'iyi sosiyete, arimo ashaka serivisi batanga.

Abakozi ba MTN babiri, barimo batanga serivisi ku bagenerwabikorwa ba MTN, harimo umukobwa urimo waje ubagana, abasanga aho bakorera arimo baka serivisi zijyanye n'ibyo MTN itanga.

Ni akazu kari mu mabara y'umuhondo, akaba ari akazu gakorerwamo na sosiyete ya MTN, akaba ari sosiyete itanga serivisi zitandukanye, zirimo gutanga amayinite ndetse n'ibicuruzwa bimwe na bimwe birimo telefoni.

Umugore wambaye imyenda irimo amabara y'imituku ndetse n'umugabo wambaye umupira w'ubururu, akaba yambaye n'amarinete y'umukara, bakaba bombi bari kureba muri telefone.

Ni umusore wicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwiwe hakaba hari agacupa k'amazi, ndetse imbere yiwe, ndetse mu mpande ziwe, akaba hari uturango twa sosiyete ya Airtel, ikaba icuruza ikabicuruza amanite ndetse n'ibindi bicuruzwa, akaba arimo yerekana uburyo umuntu yohereza amafaranga mu mirongoko yose.

Abasore bambaye amajiri ya Airtel ndetse n'abambaye amaji ya Tigo, hakaba hari haparitse amamodoka hanze, ndetse n'abandi bambaye amajiri y'icyatsi. Aba ngaba bakaba ari bo batanga serivisi za Airtel ndetse bakanigisha abaturage uburyo iyo sosiyete ikoramo.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wicayemo hagati yabo bakaba biteretse uducupa tw'amazi imbere ndetse inyuma yabo ha hakaba hari ibishusho bya sosiyete icuruza serivisi hano mu Rwanda ya Airtel.

Ni ibipupe bibiri, ibipupe byambaye amabara y'imituku, bikaba biri kumwe n'abandi bakozi bakora mu ishami rya Airtel bakaba bafite igipapuro imbere yabo cyanditseho amagambo ati: "Akira icya cumi".

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo akaba ahagaze imbere y'indangururamajwi, uyu mugabo akaba yambaye umupira wa sosiyete ya MTN, inyuma y'iwe hakaba hari abandi bantu, naho iruhande rw'iwe hakaba hari abandi bantu bambaye amajire yo mu bwoko bw'umuhondo n'ubundi bwa sosiyete ya MTN.

Ni urugo akaba ari urugo rurimo abantu benshi biganjemo igitsina gabo aho muri uru rugo hateyemo insina, hakaba hari umugabo wambaye ikote uyu umugabo akaba afite ikaramu mu ntoki, bakaba barimo baganira ku buryo umuturage yabasha gusaba inguzanyo muri banki akivana mu bukene.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akabamba agapfukamunwa ndetse imberekaba umugabo wambaye ikote n'agapfukamunwaba afitefite ikayi mu ntoki, aba bagabo bakaba bari mu nyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'amafaranga.

Inama iteraniyemo abantu benshi, inama igaragara yuko ari inama yiyubashye kuko ahantu yabereye, ni ahantu hiyubashye naho hari abantu bambaye neza, bicaye ku mameza hari n'ibitambaro by'umweru ubona ko bisa neza.

Abagore benshi bari mu murima, harimo umugore ufite isuka ndetse n'abandi bagore bunamye mu murima, bakaba barimo bareba imyaka yabo ndetse banayikorera isuku kugirango ngo barusheho kuyitaho, munsi y'aba bagore hakaba hari inzu ndetse n'urutoki.

Ni banyeshuri bo mu bigo bitandukanye, aho harimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umukara n'umweru, hakaba hari na polisi ndetse n'ababyeyi, bakaba bakoze uruziga, bose bashungereye icyobo bisa nkaho ari nk'ibintu bari bari kuhajugunya cyangwa se bari gutwika.

Igare riparitse rihetse inzoga zitandukanye, aho harimo mitsingi, primus, ndetse iri gare rikaba ryegamiye ku giti, inyuma yaho hakaba hari inzu icururizwamo amata.

Ni mu kabari aha hakaba hatangirwa serivisi zirimozo izo kuhabonera icyo kunywa kirimo nk'inzoga cyangwa fanta, hakaba hanatangirwa ibyo kurya, hakaba ari ahantu hateguyewe neza, mu buryo bugezweho buna keye.

Ni ibikoresho birimo amacupa arimo inzoga zitandukanye aha ngaha akaba ari mu kabari, hakaba hari imeza iteretsweho imwe iteretseho ibyifashishwa mu kumanura inzoga birimo, birimo nk'imigati ndetse hakaba hari inzoga z'ubwoko butandukanye.

Umucuruzi urimo upima umuceri awushyira mu kantu kabugenewe, ndetse uyu mucuruzi akaba afite ibikarito birimo amata, akaba afite udukoresho two kumanikaho imyenda, akaba afite imifuka y'imiceri iteretse muri iyi inzu y'ubucuruzi.

Udushashi tubiri tw'umuhondo tukaba ari udushashi tuzamo udukoresho twifashishwa mu kogosha imisatsi. Imisatsi y'abagabo ndetse n'abagore ikaba twifashishije mu kogosha incakwaha ndetse n'indi misatsi itandukanye iri ku muntu.

Ni ikarito yo mu bwoko bw'umutuku ikaba yanditseho ubugambo bwinshi butoya ariko icy'ingenzi muri byose ni uko iyi karito ari yo ibikwamo izamo umuti wica agakoko k'umubu, ukaba ufasha mu kwica udukoko tw'umubu.

Ni iduka ririmo abagabo babiri, akaba ari iduka ririmo ibikoresho byinshi bitandukanye. Muri iri duka hakaba harimo amoko y'ibicuruzwa byinshi bitandukanye, aho harimo amakarito yiganje, amakaye, amakaramu, byose wabisanga muri iri duka.

Umuhanda wubakishijwe n'amabuye, hakurya y'umuhanda hakaba haparitse moto ndetse ndetse n'umumotari . Uyu mumotari akaba ari kumwe n'umugenzi ,iruhande rw'umumotari hakaba hari akazu bacururizamo amayinite ya MTN.

Ni mu iduka ricuruza ibyo kwambara, akaba ari iduka ririmo imyenda itandukanye, hakaba harimo imyenda y'abagore ndetse n'imyenda y'abagabo, aho iyi myenda ubwiza bwayo dusanga yambawe n'ibipupe, aho ibipupe bifasha abantu kumenya imyenda myiza ndetse n'iyabakwira.

Ni mu isoko aho tubona abadamu ndetse n'abakobwa, barimo bagurisha inyanya, amavuta, imineke ndetse hakaba harimo n'umudamu, urimo ahaha, abaza ibiciro uburyo bimeze.

Ni imodoka y'umukara iparitse imbere y'iduka, akaba ari iduka ricuruza ibintu bitandukanye byiganjemo iby'imyenda, muri iri duka harimo imyenda y'amoko atandukanye, iy'abagabo ndetse n'iy'abagore.

Mu kiliziya aho hari abantu baje gusenga, muri iyi kiliziya hakaba harimo intebe nyinshi zitambitse, hakaba harimo abantu bo mu byiciro bitandukanye, abagore ndetse n'abagabo bahagurutse ndetse n'abandi bicaye, barimo basenga.

Ni abasaseredoti bari mu baturage, aho aba basaseredoti bakaba bazwi mu madini ya Katolike ndetse n'andi madini ashingiye kuri Katolike. Bakaba bari mu baturage aho bari barimo babwiriza ijambo ry'Imana.

Abavugabutumwa bazwi ku izina ry'abapadiri bakaba ari abavugabutumwa b'abirabura ndetse n'abandi ndetse n'undi w'umuzungu, bakaba bahagaze mu kiliziya bakaba bambaye imyenda bifashisha barimo barimo babwiriza ubutumwa.

Abagabo babiri barimo basuhuzanya, akaba arimo umugabo w'umuzungu ndetse n'umwirabura, inyuma y'uyu mugabo w'umwirabura hakaba hari abasore bamuri inyuma ndetse n'iruhande rwe akaba hari umugore wegamiye inzu.

Umuvugabutumwa uhagaze imbere, akaba imbere yiwe hakaba hari indangurumajwi akaba ari umuvugabutumwa wambaye imyenda bakoresha barimo bavuga ubutumwa izwi cyane mu madini atandukanye arimo idini rya katolika. Akaba ari umuvugabutumwa inyuma yiwe hakaba hari imitako myinshi kandi myiza.

Icyumba kirimo igitanda, akaba ari igitanda gishashe, kuri iki gitanda hakaba hariho imisego ibiri, kuri iki gitanda hakaba hari aho bazimiriza itara, ndetse ikigitanda kikaba ari kigari, kikaba cyaryamaho umuntu urenze umwe.

Ni muri salo aharimo intebe zigezweho zo kwicaraho, hakaba harimo ameza ndetse n'intebe, akaba ari salo irimo ibikoresho bihenze by'agaciro, hakaba kuri izi ntebe zo kwicaraho hakaba hariho imisego ibiri yifashishwa n'umuntu ushaka kwegamira.

Ni inyubako nziza, akaba ari inyubako yitegeye ibidukikije birimo amashyamba ndetse n'imisozi, aho muri iyi nyubako tuhasanga abakobwa babiri bakaba bicaye ku ntebe nziza zikozwe mu biti ndetse n'imeza ikozwe mu biti.

Ni inyubako iri mu mabara y'umweru, yubatse mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugeretse, muri iyi nyubako ikaba ifite parikingi nini, aho imodoka ziza zigaparika, akaba haparitse imodoka yo mu bwoko bw'umweru.

Ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako ifite ubusitani, hanze yayo hakaba hari inyubako yakira abantu batandukanye, ikaba ikorerwamomo ibirori bitandukanye, ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakakira abantu bayiraramo ndetse n'abayikoreramo inama.

Ni ibiryo byinshi bitandukanye akaba ari ibiryo by'amoko menshi biri mu bisorori bitandukanye, akaba ari ibiryo birimo umuceri, akaba ari ibirimo amavoka ndetse n'izindi mbuto, akaba ari ibiryo bikoreshwa mu hantu hakira abantu benshi.

Umugabo wirabura ndetse n'umugabo w'umuzungu ndetse n'umukobwa, bakaba bicaye ku ntebe. Imbere yabo hakaba hari ameza arambitseho mudasobwa, aho buri wese afite ikinyobwa cyo kunywa. Aba ngaba bakaba bafite n'amakayi abarambitse imbere.

Ni mu nyubako yubatswe mu buryo bugezweho. Akaba ari inyubako ifite utubati tugezweho. Akaba ari utubati tubikwamo ibikoresho bitandukanye. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo ubukerarugendo ndetse ikaba yakira n'abashyitsi baturutse imihanda yose.

Ni nyubako akaba ari inyubako ngari, ikaba ari inyubako ifite intebe nyinshi zo kwicaramo ndetse akaba ari inyubako y'akataraboneka, akaba ari inyubako isize amarangi meza ndetse akaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako yakira abantu benshi bakayikoreramo inama ndetse n'ibirori bitandukanye.

Inyubako irimo uburiri bushashe, aho hari umusego umwe ndetse hakaba hari amatara abiri ari impande y'uburiri, hakaba hari n'intebe ziri imbere, n'intebe ziri iruhande rw'igitanda ndetse hakaba hari n'ameza iri imbere iruhande rw'igitanda.

Inyubako irimo televiziyo ndetse hakaba irimo intebe n'ameza, hakaba harimo amakaro muri iyo nyubako ikaba itatswe n'amarangi y'umweru ndetse n'ay'umuhondo.

Umwana mutoya wambaye inkweto z'umuhondo ndetse n'akadobo karimo ibikoresho byifashishwa mu guteka, nk'umwuko, iruhande rwaho hakaba hari agakarito gafungiyeho ingufuri ndetse n'akayungirizo bakoresha bayungurura ifu.

Abagore bakikiye abana ndetse imbere yabo hakaba harambitse udufuka turiho ibyo kurya birimo: intoryi, inyanya ndetse n'imbogeri. Inyuma yabo hakaba hari abantu barimo bagenda ndetse n'abandi bahagaze.

Ni ibiti byinshi biziritse akaba ari ibiti bishishuye, hafi y'ibyo biti hakaba hari umufuka umennyeho udutaka turi mu isura y'ivu ndetse n'imeza iri hafi yabyo, ibi biti byifashishwa mu gukwikira amasuka.

Ni isoko akaba ari isoko ririmo abantu benshi batandukanye, akaba ari isokorimo ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Iri soko rikaba rigizwe n'abantu benshi, aho hari igice kimwe cy'inyubako ikorwamo ubucuruzi hakaba n'ubundi bucuruzi bukorerwa ahantu hadasakaye.

Inzu y'ubuhunikero bw'ibigori isize amarangi y'imituku ndetse iruhande rwayo hakaba hari ikigega cy'umukara, iyi nzu yifashishwa mu guhunika ibigori kugira ngo bajye babona ubuyro babikurikirana ndetse no kubitera imiti kugira ngo bitazatakwa n'udusimba.

Abagore batatu harimo umugore wambaye umupira w'umutuku ndetse n'uwambaye igitenge cy'umuhondo hejuru ndetse n'uwundi wambaye igitenge kirimo umuhondo ndetse n'umutuku, bafite imifuka itatu y'ibirayi ibari imbere.

Ni mu isoko ry'ibiribwa hakaba ari isoko ricururizwamo ibiryo bitandukanye, aha ngaha tukaba dusangamo ibijumba, imyumbati, ibirayi ndetse hakaba harimo abantu bo mu ngeri zitandukanye, harimo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore.

Ni mu muhanda aho hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati ikoze mu gitenge, akaba ari kumwe n'umwana mutoya uyu mwana mutoya akaba afite agafuka, muri uyu muhanda harimo abantu benshi akaba ari umuhanda ukorerwamo ukorerwamo ubucuruzi ku nkengero zawo.

Ihene zo mu bwoko bw'umukara akaba ari ihene zizirikishijwe ibiziriko akaba ari ihene ziritse ku giti, izi hene zikaba ziziritse kugira ngo zitabasha gucika zigacika ba nyirazo, akaba ari ihene ziziritse mu gisambu ahantu hari ubwatsi zishobora kuba zarishe.

Ni mu nyubako nziza aho hagaragara intebe nziza zo mu bwoko busa n'ubururu bukeyeye, imbere yaho hakaba ari imeza ikozwe ikozwe mu buryo bw'ibumba ndetse akaba ari inyubako ndende ifite amatara ya kijyambere atanga urumuri.

Ni umusore utwaye igare, akaba ahetse umugore, uyu musore akaba wambaye ishati idoze mu gite naho uyu mugore akaba yicaye mu ruhande rumwe. Akaba ari inyicaro ikunze gukoreshwa n'igitsina gore cyane.

Ni abamotari benshi, akaba ari abamotari baparitse ndetse inyuma yaho hakaba hari imodoka, imodoka n'abantu benshi barimo bagenda, aha ngaha akaba ari ho moto ziparika ndetse akaba ari na ho bategera, aba bamotari.

Ni umugabo uri mu muhanda w'amabuye, akaba ari umugabo utwaye moto. Hakurya y'umuhanda hakaba hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi, naho iruhande rw'izo nyubako hakaba hari amahema y'umweru, yifashishwa n'abantu barimo bakora inama cyangwa se bakora ubukwe.

Umumotari wicaye kuri moto aho uyu mumotari afite mubazi kuri moto y'iwe, uyu mumotari akaba arimo abara amafaranga. Ni amafaranga uyu mumotari arimo abara amaze gukorera kugeza magingo aya ngaya. Ikindi uyu mumotari akaba ari mu muhanda wa kaburimbo.

Ni munyonzi uri umuhanda wa kaburimbo, muri uyu muhanda wa kaburimbo hakurya yawo hari amazu menshi akorerwamo ubucuruzi, uyu mugabo urimo utwara igare, akaba ahetse amabati ku igare.

Umutwazi wa moto akaba atwaye moto ari umwe akaba ari mu muhanda, akaba ari umuhanda w'amabuye, imbere y'umutwaza wa moto hakaba hari ikirangantego cya sosiyete icuruza serivisi za MTN hano mu Rwanda.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho hari umumotari uhetse umugenzi aba bombi bakaba bambaye amakasike mu mutwe ayangaya akaba ari abafasha mu kwirinda mu kwirinda mu gihe bakoze impanuka bakaba bari mu muhanda wa kaburimbo aho hakurya y'umuhanda wa kaburimbo hari amapoto atambutsa insinga z'amashanyarazi.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, aho muri uyu umuhanda wa kaburimbo harimo abamotari batatu, aho buri wese atwaye umugenzi. Naho hakurya y'umuhanda hakaba hari utuzu dukorerwamo ubucuruzi ndetse hakaba hari n'akazu gatangirwamo serivisi za Airtel.

Ni umunyonzi uhetse agafuka inyuma ku igare ry'iwe ndetse n'umumotari umuri iruhande bateganye uhetse umugenzi. Akaba ari umumotari wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahetse umugenzi wambaye umupira w'umutuku. Bakaba bari mu muhanda wa kaburimbo.

Abatwazi moto benshi mu muhanda, akaba ari abatwazi moto benshi bari umuhanda wa kaburimbo, akaba ari benshi cyane, bakaba bari ku murongo bagiye bashoreranye, inyuma yabo hakaba hari imodokari zibakurikiye.

Umugabo n'umugore bari kuri moto, akaba ari umugabo utwaye umugore, akaba n'umugore wambaye ipantaro yo mu bwoko bwa kaki ndetse n'umupira usa n'ikinombe, bakaba bari mu muhanda wa kaburimbo inyuma yabo hakaba ari aho abanyamaguru bambukira bambuka bava mu muhanda umwe bajya mu wundi.

Umusore uri ku igare mu muhanda rwagati, arimo anyonga ava mu gace kamwe ajya mu kandigaragara, yego nk'uko bigararagara muri ino foto, inyuma y'uyu musore hari umukobwa, ndetse hakaba n'amazu ari munsi y'umuhanda.